Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abana b'incuke nabo ubu bari kujyanwa ku mashuri. Ikibuga kinini kiriho imikino abana bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, hariho abana babiri n'umugabo umwe uri kubigisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubu abana bose bemerewe kujyanwa ku ishuri ab'incuke, abakuze, abagore, n'abagabo bose bemerewe kwiga. Inyubako nziza cyane isizwe amarangi y'umuhondo hashushanyijweho inyamaswa zifashishwa mu kwereka abana bari kwiga.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana b'incuke na bo bemerewe kujyanwa mu mashuri, ishuri ryiza riteye irangi ry'umuhondo, ku gikuta hashushanyijeho ibibabi bifasha abana kwiga neza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini kiriho abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru n'amajipo y'ubururu. Inyuma yabo hari inyubako isakajwe amabati y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana b'inshuke nabo bajyanwa mu mashuri. lshuri ryiza cyane ryubakishwe amatafari ahiye matoya, hariho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abana b'incuke nabo bemerewe kujyanwa mu mashuri, ishuri rinini risizwe irangi ry'umuhondo, ku gikuta hashushanyijweho imfashanyigisho.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u rwanda, abana b'inshuke bemerewe kujyanwa ku ishuri, inyubako nziza cyane isizwe amarangi y'umuhondo, ku gikuta hashushanyijeho amapusi n'ibiti byifashishwa mu kwigisha abana.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu abana b'inshuke na bo bemerewe kujyanwa ku mashuri. Icyumba kinini kicayemo n'abana bambaye impuzankano y'umuhondo, buri umwe afite isahani iriho ibyo kurya.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu mugi cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza isizwe amarangi y'umuhondo, hashushanyijeho umugabo wambaye ishati y'umweru, n'ikirango k'igihugu n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda mo imbere harimo abanyeshuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugi cyacu cy'u Rwanda abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Umuhanda munini uri kugendwamo n'abanyeshuri babiri umuhungu n'umukobwa bahetse ibikapu bagiye kwiga.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu n'abana b'inshuke bemerewe kujyanwa mu mashuri. Igishushanyo cyiza, gifite ibara ry'umuhondo cyanditsweho amagambo, yandikishijwe mu ibara ry'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubu abana b'inshuke bemerewe kujyanwa mu mashuri, inyubako nziza isakaje amabati y'ubururu, itewe amarangi y'umweru, imbere hari abanyeshuri bari kwinjira mu ishuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana b'inshuke nabo bemerewe kujyanwa mu ishuri. Abahungu n'abakobwa, inyubako isakajwe amabati y'ubururu, imbere yaho hari ubusitani bwiza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu abana b'incuke nabo bemerewe kujyanwa ku ishuri, icyumba kinini gisizwemo amarangi y'umuhondo, hatondetsemo ibitabo bishushanyijemo ibishushanyo byiza cyane bifasha abana kumenya gusoma.

Isuku ni isoko y'ubuzima ku banyarwanda bose, ikigo cy'ishuri kigirwaho abana b'inshuke, gifite ubusitani bwiza cyane, hagati mu busitani hari igikarabiro, giteretseho ibase y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu abana b'inshuke nabo bafite amashuri yabo bigiramo, inyubako nziza irimo akabati gatondetsemo ibitabo, imbere yaho hari ibikinisho abana bakinisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abana b'incuke nabo bajyanwa ku ishuri bakigishwa, umwana uri kwandika ku kibaho uri kwiga kwandika inyuguti afite indwara y'umweru ari kwandikisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu abana b'inshuke bemerewe kujyanwa mu mashuri abakobwa n'abahungu. Inyubako nini hicawemo n'abana bambaye impuzankano, imbere yabo hari abarezi babo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu n'abana b'inshuke bemerewe kujyanwa ku mashuri. Inyubako nziza cyane isizwe amarangi y'umweru, ishushanyijeho abana. Imbere mu busitani hari umwana wambaye impuzankano, ikabutura y'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana b'inshuke na bo bemerewe kujyanwa ku ishuri abahungu n'abakobwa. Inyubako nziza isizwe amarangi y'umuhondo, hari abana batanu bafatanye urunana, inyuma yabo hari umukambwe uhicaye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza y'amashuri asakajwe amabati y'ubururu akingishijwe inzugi z'icyatsi, inyuma y'amashuri hari ibiti birebire imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri y'inshuke yarubatswe ay'abakuru na yo yose arahari. Abana bicaye mu ishuri bambaye impuzankano, babiri babiri ku ntebe bari kureba imbere ku kibaho..

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu buri kagari kari mu Gihugu cy'u Rwanda gafite ishuri ribanza ry'amashuri; ishuri ryiza ryicamo n'abanyeshuri bamwe bambaye ingofero bakoze mu bipapuro.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu abana bose bemerewe kujyanwa mu ishuri, abahungu n'abakobwa, inyubako ndende y'amashuri, asizwe amarangi y'umuhondo, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza isizwe amarangi y'umuhondo ku rugi hariho amarangi y'icyatsi handitsweho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru hirya hari ubusitani bwiza cyane.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu abahungu n'abakobwa bose bemerewe kujya mu ishuri bakiga. Inyubako nziza isizwe amarangi y'umuhondo, yicawemo n'abana bane bafite ibyo kurya imbere zabo n'ibyo kunywa.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Icyumba kinini cyicawemo n'abana bane bambaye impuzankano, bafite utuntu mu ntoki zabo bari kwigiraho.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu amashuri abanza yageze mu gihugu hose, mu tugari hose arimo, inyubako nziza irimo ameza y'ubururu, umuhondo n'umutuku arambitsweho ibitabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu n'abana b'incuke bemerewe kujyanwa mu mashuri, abahungu n'abakobwa. Inyubako nini irimo ibitabo bitondetse mu tubati, harimo n'ibikinisho by'abana bakiri batoya, harimo ibifite amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana bato bemerewe kujyanwa mu ishuri abahungu n'abakobwa. Igishushanyo kinini gishushanyijweho abana babiri basa nk'abari kujya ku ishuri. Cyifashishwa mu kwigisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abahungu, abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kujyanwa mu ishuri, inyubako nini isakajwe amabati y'umweru, ifite ubusitani bwiza hagati mu busitani harimo umuntu wambaye umupira w'umuhondo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza isakajwe amabati y'ubururu, isizwe amarange y'umweru ku bikuta, hepfo y'ishuri hari abanyeshuri, imbere yabo hari umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butuma iterambere ryacu rizamuka. Inyubako nziza, ifite igikuta cyanditseho amagambo yandikishijwe mu mabara y'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane, isakaje amabati, yubakishijwe imbaho zikeye. Imbere yaho hari ikibuga kinini kiriho ibikinisho, bifashisha mu kurera abana.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abahungu, abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga abanyeshuri bane bari kugendera hamwe bagiye ku ishuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amashuri abanza ari mu tugari twose tugize u Rwanda, inyubako nziza nini cyane irimo ameza y'umutuku, arambitsweho ibitabo bishushanyijeho abanyeshuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye mato, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano n'udupfukamunwa. Bafite abandi bantu bakuru bari kubigisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere gihugu cyacu cyu Rwanda, inyubako nziza isizwemo amarangi yumuhondo, ku gikuta hariho ikibaho gifite ibara ry'umukara, imbere ku kumuryango wishuri hahagaze umugore wambaye umupira w'ubururu n'agapfukamunwa.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu umuhungu, umukobwa bose bafite uburenganzira bwo kujyanwa mu ishuri. Ikigo cy'amashuri cyiza, kinini, cyubatswe cyubakishijwe amatafari ahiye. Imbere yaho hahagaze abagabo babiri bari gukorera isuku ubusitani.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane yicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano babiri babiri ku ntebe abakobwa n'abahungu, imbere yabo hari mwarimu uri kubigisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza yigirwagwaho abana b'inshuke, ifite amashusho meza cyane hari n'imikino bifashisha mu kugorora imibiri, mwarimu wabo ari imbere y'abanyeshuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu buri Kagari ko mu Rwanda hubatswemo ishuri ribanza, ishuri ryiza cyane ririmo amashuri asizwe amarangi y'icyatsi, imbere y'amashuri hahagaze abagore n'abagabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini isizwe amarangi y'umuhondo harimo ameza magari cyane arambitsweho ibitabo bimwe bishushanyijweho abana ibindi bishushanyijweho ibisimba.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'uRwanda. Inyubako nziza isizwemo amarange y'umweru harimo intebe z'umuhondo n'ameza y'uruziga. Hagati mu cyumba hahagazemo abantu bane.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy' u Rwanda. Inyubako nziza isakajwe amabati y'umukara iruhande hari indi isakajwe amabati y'umweru bifite ubusitani imbere yaho bwiza cyane hakurya hari inyubako zikajwe amabati y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugihugu cyacu cyu Rwanda. Inyubako nini y'amashuri isizwe amarangi yubururu. Ku muryango hari icyapa kinini cyerekana izina ry'ishuri, byanditswe mu magambo agizwe n'inyuguti nini.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu mugihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza isakajwe amabati y'umutuku, ifite amarange yi'cyatsi ku nzugi. Ikigega gifite ibara ry'icyatsi kiri hagati y'amashuri, gifata amazi, imbere yaho hari ubusitani bwiza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu buri kagari ko mu Rwanda kubatsemo ishuri ribanza higirwamo abana. Inyubako nziza cyane yicawemo n'abana babiri n'umugore umwe uri kubagaburira.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu buri kagari kari mu Rwanda gafite ishuri ribanza, igishushanyo kiza k'inzu kiriho amabati y'umutuku n'inzugi z'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu n'abana b'inshuke bemerewe kujyanwa ku ishuri. Ishuri rinini ririmo umunyeshuri wambaye impuzankano uri kwigishwa kwandika ingombajwi ku kibaho gisa icyatsi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubu abana b'incuke bemerewe kujyanwa mu mashuri abakuru nabo bemerewe kwiga, inyubako nziza isakaje amabati y'icyatsi isizwe amarangi y'umweru imbere yaho hari intebe ebyiri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubu abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana biga mumashuri abanza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu n'abana b'incuke bemerewe kujyanwa mu ishuri bakitabwaho n'abarezi babo. Abanyeshuri bari mu ishuri, bambaye impuzankano, imbere yabo hari umwarimu w'umugabo n'uw'umugore bari kubigisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako y'amashuri meza cyane asizwe irangi ry'umuhondo, isakajwe amabati meza cyane, imbere hari ubusitani bwiza cyane, impande y'ishuri hari ikigega cy'umukara gifata amazi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza y'amashuri, isizwe amarangi y'umuhondo, yubakishijwe amatafari ahiye. Imbere yaho hari abagore n'abagabo bambaye amajiri, hari n'umugabo umwe uri kubakoresha inama.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda; abahungu, abakobwa, bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Ubusitani bunini burimo ibiti birebire hicawemo abanyeshuri bambaye impuzankano.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umuhungu afite uburenganzira bwo kwiga n'umukobwa afite uburenganzira bwo kwiga. Ubusitani bunini burimo abana bambaye impuzankano bari kumwe n'abayobozi babo. Inyubako nziza cyane isakajwe amabati.

Uburezi bukomeje gutera imbere gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu, abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kujya mu ishuri bakiga, inyubako nziza y'ishuri irimo abanyeshuri bari kwiga, ku gikuta cyabo hamanitsweho imfashanyigisho.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza y'amashuri yisumbuye yubakishijwe amatafari ahiye, ikingishijwe amadirishya afite ibara ry'ubururu, imbere y'inyubako hahagaze abantu bari mu nama.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi. Ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bifite amatabi meza, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano imipira y'ubururu, hagati yabo hari umugabo ufite ibyo ari kubabwira.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butuma igihugu cyacu gitera imbere. Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye asizweho irangi ry'icyatsi ku rugi hari amagambo yandikijwe mu ibara ry'ubururu yerekana izina ry'ishuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bemerewe kwicara mu ishuri bakiga. abanyeshuri bicaye mu cyumba, bari kwiga imbere yabo hari abagabo n'abagore.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako y'amashuri asakajwe amabati y'umweru, imbere mu busitani harimo abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru n'abandi bambaye imipira y'umutuku.

uburezi bukomeje gutezwa imbere mugihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyeshuri bambaye impuzankano, imipira y'ubururu n'umuhondo bari kugenda mu muhanda, iruhande bakikijwe n'amashyamba afite ibiti birebire.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubusitani bwiza bwicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano, imipira y'ubururu, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umukara, afite ibyo ari kubabwira.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri rinini ryicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru, imbere yabo hari umugore ufite indangururamajwi afite ibyo ari kubabwira.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana b'inshuke na bo bose bemerewe kwiga, abakuru, abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga, icyumba kinini cyicawemo n'abanyeshuri, imbere yabo hari mwarimu ari kubigisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini gihagazweho n'abanyeshuri abakobwa babiri n'abahungu batatu bambaye impuzankano amashati y'umweru, iruhande hari umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza y'amashuri asakajwe amabati y'umutuku hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire harimo n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza isakajwe amabati y'ubururu, ikingishijwe inzugi zifite ibara ry'ubururu. Imbere y'inyubako hari ibendera ry'igihugu cyu Rwanda. Iruhande hari ikigega cy'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda; abahungu, abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kujya kwiga. Icyumba kinini kicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru n'udupfukamunwa. Bari kureba imbere bose.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abahungu bafite uburenganzira bwo kwiga n'abakobwa bafite uburenganzira bwo kwiga, abanyeshuri bahagaze hamwe bambaye impuzankano imbere yabo ari mwarimu ufite ibiti mu ntoki ari kubigisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butuma abaturarwanda bakomeza kwagura ubumenyi. Abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru bafite impapuro mu biganza byabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi bigatuma abanyarwanda bajijuka. Inyubako nziza y'amashuri, imbere yayo hahagaze abanyeshuri bari kuririmba bambaye impuzankano, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi uri kuririmba.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu haje n'iterambere ku buryo abana bose bemerewe kurya ku ishuri. Inyubako nziza, nini cyane , ikorerwamo ubutetsi, harimo abagabo n'abagore bari kureba uko icyumba kimeze.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bemerewe kwiga. Ikibuga kinini kiri imbere y'amashuri hahagazeho abanyeshuri. Ayo mashuri asakajwe amabati y'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako ndende irimo abanyeshuri bicaye ku ntebe, bari kwandikira ku meza iruhande hari mwarimu wambaye umwenda w'akazi w'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umuhungu, umukobwa, wese afite uburenganzira bwo kwiga. Icyumba kinini kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru n'imipira y'icyatsi, bari hamwe bicaye ku ntebe.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu bafite uburenganzira bwo kwiga n'abakobwa bafite uburenganzira bwo kwiga. Abanyeshuri bambaye impuzankano bari mu nyubako idasakawe bazamuye amaboko bose.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza, isakajwe amabati y'ubururu, ifite inkingi zisizwe irangi ry'umuhondo, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane, burimo igiti kirekire, hepfo hari ikigega gifite ibara ry'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umuhungu yemerewe kwiga umukobwa nawe yemerewe kwiga, ubusitani bunini bwiza cyane bwicamo n'abanyeshuri bambaye impuzankano bamwe bambaye amashati y'umweru abandi bambaye imipira y'umuhondo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu bafite uburenganzira bwo kwiga n'abakobwa bafite uburenganzira bwo kwiga, ubusitani bwiza cyane bwicawemo n'abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano imipira y'icyatsi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Inyubako nini isakajwe amabati y'umweru, imbere hari ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti birebire, hicayemo abanyeshuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu bemerewe kwiga n'abakobwa bemerewe kwiga. Abanyeshuri bambaye impuzankano, imipira y'icyatsi abandi bambaye umuhondo, bari mu kibuga bishimye cyane.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy' Rwanda. Inyubako nziza ifite urugi rw'ibara ry'icyatsi, imbere hari igikarabiro kiriho abanyeshuri batatu, bambaye impuzankano, imipira y'umuhondo, inyuma yabo hari undi muntu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza isakajwe amabati y'ubururu hari n'ikigega gifite ibara ry'umukara. Inyubako irafunguwe hagati ku muryango hahagaze umugabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bikuze hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ufite ibyo ari kubabwira.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cyiu Rwanda, ubusitani bwicamo n'abanyeshuri bambaye impuzankano, imipira y'ubururu n'indi y'icyatsi, imbere yabo hari ingabo z'igihugu n'umugore.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugihugu cyacu cy'u Rwanda abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga, inyubako nziza cyane yicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru n'imipira y'umukara buri munyeshuri afite mudasobwa imbere ye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amashuri ayisumbuye ay'incuke n'aya kaminuza, ishuri ryiza cyane ryicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru n'imipira y'icyatsi imbere yabo hari abayobozi bafite ibyo bari kubabwira.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishuri ryiza ririmo intebe nziza z'umweru, hicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru n'amagutiya y'icyatsi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kinini kiho abanyeshuri bambaye impuzankano imipira y'ubururu, imbere yabo hari undi wambaye ijire ry'icyatsi, iruhande hari ibiti birebire.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako itewemo irangi ry'umuhondo. Hicawemo abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru, bose bari kureba imbere, bicaye ku ntebe z'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza isakajwe amabati y'umutuku ifite inzugi z'ubururu, imbere yaho hahagaze umugore uri kumwe n'umwana wambaye impuzankano.

Uburezi bufite ireme bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane isizwemo amarangi y'umutuku ifite inzugi zifite irangi ry'ubururu, mo imbere mu nyubako harimo abagore n'abagabo bambaye amajiri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru n'imipira y'icyatsi. Imbere hari abagore n'abagabo, bafite indangururamajwi, inyuma yabo hari ikigega cy'umukara.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu burezi, buri umwe wese yemerewe kwiga. Inyubako nini irimo abagore, abagabo n'abanyeshuri bari imbere bambaye impuzankano, bamwe bafite mudasobwa imbere zabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda abahungu n'abakobwa bose bemerewe kujyanwa mu ishuri. Inyubako nziza cyane yicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano bafite amakaye imbere zabo na mwarimu uhagaze hagati mu ishuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza ifite ibirahuri, isizwe amarange y'umuhondo. Imbere y'inyubako hari abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru n'imipira y'ubururu. Hagati hari abantutu bakuru bicaye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu'u rwanda, inyubako nziza yiciwemo abagore, abagabo bari kwiga mushuri rya kaminuza. Icyo cyumba gisizwemo amarangi y'umuhondo ni cyiza cyane.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu hari amashuri abanza, hari ayisumbuye, hari n'aya kaminuza. Ishuri ryiza rya kaminuza risakajwe amabati, riteweho irangi ry'ubururu, harimo intebe z'icyatsi, hicawemo abanyeshuri bari kwiga.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri y'inshuke abanza, ayisumbuye na kaminuza yose yageze mu Rwanda, icyumba kinini cyicawemo n'abanyeshuri ba kaminuza bafite impapuro imbere zabo bari kwandikaho.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu mwana w'inshuke na we yemerewe kwiga, umukuru na we yemerewe kwiga. Inyubako nziza cyane ya kaminuza isizwe amarangi y'umweru. Imbere yaho hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Uburezi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bemerewe kwiga. Ishuri ryiza rya kaminuza harimo abanyeshuri basoje amasomo yabo bambaye amakanzu meza, abagabo n'abagore bose basa neza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri abanza, ay'inshuke, ayisumbuye, kaminuza, icyumba kinini kirimo abanyeshuri basoje kaminuza bafite impamyabushobozi mu biganza byabo bambaye n'makanzu meza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari amashuri yisumbuye, abanza, ay'inshuke yose ari mu Rwanda. Inyubako nziza cyane yigirwamo abanyeshuri ba kaminuza, isizwe amarangi y'umuhondo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri rinini cyane risizwemo irangi ry'umuhondo rifite inzugi z'icyatsi, hicayemo abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru bicaye ku ntebe z'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugi cyacu cy' Rwanda. Inyubako nziza isizwe amarangi y'umweru, isakajwe amabati y'umutuku, yigirwamo abanyeshuri ba kaminuza, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane, burimo indabo nziza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishuri ryiza cyane risizwemo amarangi y'umweru, hicayemo abanyeshuri bari kwiga, bafite amakayi imbere yabo na mwarimu wabo, wambaye amadarubindi uri imbere.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu mugi cyacu cy'u Rwanda. Ubusitani bunini burimo ibiti birebire n'ibigufi, iruhande hari umuhanda uri kugendwamo n'umuntu. Inyubako isakajwe amabati y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugihugu cyacu cy'u Rwanda amashuri y'incuke, ayisumbuye, na kaminuza yose arahari mugihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini yicawemo n'abanyeshuri bicaye ku ntebe z'icyatsi bari kwiga.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza isizwemo amarangi y'umuhondo, hiciwemo abahungu, abakobwa, bicaye ku ntebe z'icyatsi, bafite amakayi imbere zabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abahungu bemerewe kwiga n'abakobwa bemerewe kwiga. Icyumba kinini kirimo ameza meza, hicayemo abanyeshuri bari kwandika, bambaye udupfukamunwa.

U Rwanda rukomeje gutera imbere amashuri meza cyane asakajwe amabati, hari ubusitani bwiza burimo indabo z'umuhondo, ikibuga kinini kiriho imodoka y'umweru n'undi mugabo uri kugenda.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu mashuri abanza, ayisumbuye, ay'incuke n'aya kaminuza, yose yageze mu Rwanda, umunyeshuri wa kaminuza, wambaye ikanzu nziza, ufite indangururamajwi, afite ibyo ari kuvuga.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu hari amashuri y'inshuke, ayisumbuye n'aya kaminuza. Inyubako nziza cyane isizwe amarangi y'icyatsi hariho ibirahuri ku madirishya, yigirwamo abanyeshuri ba kaminuza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu hari amashuri y'inshuke, abanza n'ayisumbuye n'aya kaminuza. Abanyeshuri ba kaminuza bicaye mu ishuri, bafite mudasobwa imbere zabo n'amakayi bari kwandikamo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubusitani bunini bwicawemo abagore batatu n'abagabo babiri bafite ameza bari kwandikiraho na telefone.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'uRwanda ubu buri munyarwanda afite uburenganzira bwo kujya ku ishuri. Ishuri ryiza rya kaminuza ririmo intebe nziza hicayemo abanyeshuri bari kwiga, rifite amadirishya y'ibirahuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu munyarwanda wese yemerewe kwiga umutoya n'umukuru. Inyubako nziza cyane isizwe irangi ry'umweru ku gikuta hariho icyapa cyerekana ishuri rikuru rya kaminuza rya Nyagatare.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umuhungu, umukobwa wese afite uburenganzira bwo kujya mu ishuri, ufite ubumuga nawe yemerewe kwiga, ishuri rinini rya kaminuza ryubakishijwe ibirahuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri abanza, ayisumbuye n'aya kaminuza. Inyubako nini, isizwe irangi ry'icyatsi, imbere hariho ibibaho by'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishuri ryiza cyane rya kaminuza risizwe amarangi y'umweru imbere hari ikibaho cy'icyatsi. Intebe nziza cyane hicayemo abanyeshuri bambaye udupfukamunwa.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Ikibuga kinini kiri imbere y'inyubako y'amashuri asakarwa amabati y'ubururu, hari n'ubusitani bwiza.